Ikigo cy'igihugu gishinzwe imiyoborere myiza arajibi, cyavuze yuko muri uyu mwaka kigiye gukora ibishoboka byose kugira ngo imanza zitangwa cyane mu rubyiruko zigabanuke, ndetse n'ihohoterwa rukorerwa.

Mu nama y'abanyamuryango bateraniye muri Kigali komveshoni senta igaragaza uruhare bagiye bagira mu gukemura ibibazo by'abaturage birimo n'ubukene ndetse na gahunda ya gira inka.

Amasale akodesha amakwe y'abageni, usanga yinjiza agatubutse mu gihe cy'impeshyi ariko ngo mu gihe cy'itumba usanga ubukwe buba aba ari bukeya cyane ugereranyije no mu gihe cy'impeshyi kuko abageni baba ari benshi cyane kuko basezerana izuba riva.

Abayobozi iyo bamaze kubona ko ibyo bakoze biri gutanga umusaruro, birabashimisha cyane ndetse akanyamuneza kagasesekara no kumunwa. Ibi babikora igihe bari kureba nk'agapira ndetse n'ibindi bikorwa by'imyidagaduro.

Inama yateranye none yerekanaga ko gahunda y'ubwisungane mu kwivuza, idashyizwemo ingufu byazatera igihombo gikomeye minisiteri y'ubuzima ireberera abanyarwanda ubuzima bwabo ndetse no kubaho neza kw'abaturage.

USAID ni ikigo cy'abanyamerika cyita ku bantu bababaye ndetse kikabaha impano. Abantu benshi bafite ibibazo bitandukanye, bihutira kugana iki kigo kugira ngo kibahe inyunganizi mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Kwihangira umurimo ni bimwe mu bituma urubyiruko na rwo rubasha gukura amaboko mu mufuka rugakora bitewe n'uburyo ki byagaragajwe ko ubushomeri bugenda bwiyongera, aho bwavuye kuri zero n'ibice bitanu bukagera ku munani n'ibice umunani ku ijana. Ibi bigaragazwa na raporo yakozwe mu mwaka ushize.

Mu nama yahurije urubyiruko hamwe yigaga ku birebana n'uko urubyiruko rwazajya rukura amaboko mu mufuka, rugashishikarizwa gukora aho kugira ngo rwirirwe mu bintu bidafite umumaro birimo n'ibiyobyabwenge.

Mu nama yateranye kuri uyu wa gatanu yagaragaje ko, urubyiruko zimwe mu mpamvu zituma ruhura n'ibibazo by'ubushomeri ari uko ruhugira muri betingi, urundi rukajya mu biyobyabwenge ndetse n'ibindi bikorwa bibi biteye isoni, bityo hakaba hafashwe ingamba z'uko hakwiye gushyirwaho ibihano.

Mu nama yahuriwemo n'urubyiruko rugiye rutandukanye ku Isi, yagarutse ku gituma ubushomeri bwiyongera ndetse hafatwa ingamba zikomeye zirimo: kwihangira imirimo ndetse urubyiruko na rwo rugashishikarizwa kumva ko ari rwo rufite imbaraga zubaka.

Minisitiri w'ububanyi n'amahanga avuga ko ubwisungane mu kwivuza igihe umuturage yabigizemo uruhare, icyo gihe aba afite ubuzima bwuzuye ugereranyije n'umuntu uba utabufite, ibi byagarutsweho na meya w'Akarere ka Rusizi ubwo yagiranaga ikiganiro n'abaturage.

Mu rwego rwo kunoza gahunda ya raputopu imwe kuri buri munyeshuri, minisiteri y'uburezi yateguje ko muri uyu mwaka igiye gutanga imashini nyinshi zizagenerwa abanyeshuri, yaba mu bigo by'amashuri abanza ndetse n'ayisumbuye, no muri za kaminuza, iyi gahunda ikaba izagerayo.

Mu nama yateranye yanzuye ko buri wese akwiye kujya aba ijisho rya mugenzi we bityo bigatuma ibyaha bikorwa n'abantu bigabanuka, ibi birashimangirwa n'umuyobozi w'igenamigambi ry'abaturage mu karere ka Muhanga aho yagiye abigarukaho cyane.

Umuyobozi w'ishami ryitwa Girini pati, rishinzwe kurengera ibidukikije Frank Habineza, yakoranye inama n'abayobozi be muri iryo shyaka kugira ngo bige ku byemezo byafasha nko kongerera ubuzima cyangwa se ubushobozi bw'ibinyabuzima.

Ubuhahirane bw'ibihugu ni ingenzi cyane mu buri diporomasi y'ibihugu byombi. Ugendeye ku mubano uri hagati y'igihugu cy'u Burundi n'u Rwanda, usanga inama nyinshi zigenda zikorwa igitaraganya, ziba zigamije kuzahura umubano wabo.

Hashyizweho gahunda ya Kigali yacu, aho buri muturage akwiye kwimakaza ingamba zo gucunga umujyi ndetse yirinda kunyanyagiza imyanda igihe ari mu muhanda agenda, kubaka Kigali ikeye ni byiza kuko bizatanga icyizere cyo kuzamuka kw'iterambere ryacu.

Hakwiye kwifashishwa inzira y'ibiganiro kugira ngo ikibazo giherereye mu burasirazuba bwa Kongo kibashe gushyirwaho akadomo. Ibi ni bimwe mu myanzuro yasohotse mu nama yateraniye i Londire mu Bwongereza igaragaza ko iki kibazo gikwiye gukemuka burundu.

Green Party cyangwa se ishyaka rishinzwe kurengera ibidukikije riyobowe na Frank Habineza, ritangaza ko mu mwaka wa bibiri na cumi na rimwe, iki kigo cyazahuye ibimera byari bigiye kuzimira bisaga ubwoko magana atanu.

Inama zigiye zitandukanye zifashisha ikoranabuhanga aho umuyobozi ajya imbere agafatamikoro ndetse akabwira abantu bose bari aho ngaho ibigendanye n'umurongo w'ibyigwa ugasanga abantu bamukurikiye bateze amatwi kandi nta kibahungabanya.

Kwisuzumisha ku bagore batwite ndetse n'abana bari munsi y'imyaka itanu, ni kimwe mu gikorwa gishishikarizwa buri mutura Rwanda wese aho ava akagera kuko bigabanya impfu ziterwa n'abana igihe badakurikiranwe neza, byanabaviramo no gupfa.

Kwitabira amahugurwa agiye atandukanye agamije guteza imbere igihugu cyacu, ni imwe ngeri zo kwiteza imbere mu Rwanda, kubera ko rubanda nyamwinshi rwungukiramo byinshi bitandukanye harimo gahunda zirufasha urubyiruko kwiteza imbere cyane.

Umunara muremure cyane w'itumanaho uri mu mabara y'umutuku ndetse n'umweru bigaragara ko ari uwa eyateri hahagaze abatekinisiye bane bigaragara yuko bari gusobanurira aba bantu uko uyu munara ukoreshwa aha bantu bari gusobanurira bambaye amajire y'umutuku.

Iyo abantu bateranye bakajya inama umuco nyarwanda bizwi ko Imana ibasanga, bamwe mu bayobozi bayoboye inama njyanama y'umurenge wa Nyarubaka barishimira ko babashije gutera imbere bitewe n'ubwisungane mu kwivuza abaturage bakomeje gutanga.

Umunsi mpuzamahanga wahariwe abagore witabiriwe ku kigero cyo hejuru mu Karere ka Kicukiro, aho abagore basaga ibihumbi bibiri bitabiriye uwo muhango, baganirijwe by'umwihariko ku kamaro bagiye bagira mu uruhare rwo guteza imbere iterambere ry'igihugu.

Amarushanwa y'abasiganwa n'amaguru aragenda atanga umusaruro, kuko muri iki gihugu cy'u Rwanda hari urubyiruko rwiyemeje kugera ku ruhando mpuzamahanga mu gusiganwa rukoresheje amaguru yarwo karemano, aho ruvuga ko rubyinjizwa amafaranga atubutse.

Kubufatanye na Inirake na Afurikoperative. Harimo gushaka ingamba zatuma ubumenyigiro butezwa imbere bikaba byaba byiza ku ruhando mpuzamahanga ku bigendanye n'isoko ry'umurimo.

Urubyiruko rwitabira inama ya yufukonegiti ihuza urubyiruko ndetse n'imbaga nyamwinshi yabaturutse hirya no hino ku isi ruvuga yuko, rutazongera guheranwa inyuma n'amateka rubura icyo rukora ahubwo ruzajya rwihangira imirimo.

Bamwe mu bahize abandi mu kwitabira gahunda yo gutanga mituweli ku gihe, bahawe impano n'ubuyobozi bw'umurenge wabo kuko bashimiwe byimazeyo nk'indashyikirwa zabaye aba mbere mu guteza imbere iyi gahunda.

Ikigo cy'imisoro n'amahoro Rwanda reveni kiramenyesha abaturarwanda bose kwitabira igikorwa cyo gusora giteganyijwe muri uyu mwaka, aho buri muturarwanda wese asabwa kwishyura amafaranga ye y'ipatante kugira ngo adacibwa ibihano.

Hashyizwemo uburyo bwo kuzahura ubukungu, binyuze mu kigega agaciro. Ibi bitangazwa na sosiyete y'itumanaho ya mango fogi, ivuga ko umuyoboro wayo yawuvuguruye ku buryo ubu ngubu amakuru asigaye yihuta cyane.

Ikigo gishinzwe abinjira n'abasohoka mu Rwanda imigirasiyo kivuga ko umubare w'abakerarugendo baje mu Rwanda ari hafi magana abiri na mirongo itanu ku ijana.

Ikigo cy'igihugu gishinzwe umusoro n'amahoro Rwanda reveni, kiravuga ko hari uburyo wamenyekanisha umusoro ku nyungu, mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatatu, ukoresheje telefoni igendanwa. Aho ukanda akanyenyeri magana inani; ubundi ugakurikiza amabwiriza.

Gahunda z'irembo uko zikomeza kugenda zitera imbere ni nako itangazo rikangurira abantu, kwitabira gukoresha izi serivisi kubera ko bitanga icyizere bikanagabanya umwanya batakaza.

Ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro kiramenyesha abantu kwishyura avansi y'iminsi itatu umusoro ku nyungu, ibyo bigakorwa kugeza ku itariki ya mirongo itatu n'imwe ukuboza mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane, kikaba kiburira abazakererwa ko bazashyirirwaho ibihano biba ngombwa.

Hari ibikorwa bikwiriye n'ibindi bidakwiriye, nko guhererekanya amafaranga mu ntoki, kwambara agapfukamunwa katameshe neza, n'ibindi n'ibindi byongera ibyago byo kwandura virusi.

Ku mihanda migari aho umuntu yambukira haba hari uturongo tw'umweru dutambitse. Umugenzi iyo agiye kwambuka arabanza akareba neza ko nta kinyabiziga kiri hafi kiri kwambukiranya umuhanda bityo akambuka. Ikinyabiziga nacyo iyo kigeze kuri iyi mirongo kigabanya umuvuduko ndetse kikanahagarara rimwe na rimwe.

Igazeti ya leta ivuga yuko igihe umuntu asoze neza hari byinshi aba arengeye, harimo ibikorwaremezo ndetse n'ibindi bizamugirira umumaro mu gihe azaba ageze mu gihe atagifite imbaraga zo gukora.

My RRA system ni uburyo bwashyiriweho abasora ndetse n'abafite ibigo by'imari, kwihutira gusora amafaranga y'umusoro kugira ngo abantu bazabashe kubona serivisi nziza za Leta, harimo no kubakirwa ibikorwa remezo.

Inyubako nini cyane y'icyitegererezo mu mujyi wa kigali izwi nka kigali comvensheni senta ishobora kwakira abantu barenga ibihumbi bitanu buri minsi ibiri bikaba byongera umusaruro mbumbe by'igihugu bitewe n'amadovize abanyamahanga bishyura.

Igikorwa kigendanye na visiti Rwanda cyangwa se sura u Rwanda, ni igikorwa cyagiye cyamamara hanze hose no ku Isi, aho ikipe nka Arisenali, Bayani minici yo mu Budage, zose zifite imyambaro yanditseho ngo sura u Rwanda, bizwi mu ndimi z'amahanga nka visiti Rwanda.

Abagenza amaguru mu gihe bambukiranya umuhanda, bakomeje guhabwa agaciro kabo bakambuka nta nkomyi, ibinyabiziga bigahagarara bakambuka neza.

Rura iragira iti ishishoza mu gihe uhamagawe, cyangwa wakiriye ubutumwa bugusaba amafaranga, ndetse n'ubundi bushukanyi bwiyitirira ibigo by'itumanaho n'izindi nzego, kuko icyo gihe uba abikoze aba akoze icyaha.

Ikigo gitanga ibyangombwa kuri buri muturage bigiye bitandukanye harimo perime, icyangombwa cy'uko utakatiwe n'inkiko ndetse n'ibindi. Irembo ikibwira abaturage y'uko apulikasiyo yacyo yatangiye kugera ku bigo bizicuruza nka puleyi sitowa ndetse n'ibindi.

Gukoresha mudasobwa mu gihe cy'amasomo bitanga icyizere cy'uko ejo heza h'u Rwanda hazaba hameze neza, kuko abantu bafite icyizere cya byo, no kubigeraho.

RSSB ni ikigo gifasha abaturage bose mu bwisungane mu kwivuza buza nka mituweli hano mu Rwanda. Iki kigo gitangaza ko hafi mirongo inani na gatanu ku ijana by'abaturage bafite ubwishingizi mu kwivuza kandi bivuza nta kibazo.

Ikigo cy'igihugu cy'ibarurishamibare ndetse n'ubutaka mu Rwanda, kirabwira abaturage ko hari uburyo bwashyizweho bwo kugirango umuntu amenye amakuru yizewe ku butaka ndetse n'igihe akwiye gutanga umusoro wabwo.

Uurubuga irembo ruratangariza abaturage bose ko rufite serivisi nshyashya yashyiriweho abaturage, kugira ngo na bo babashe kuyibona, ruravuga ko hajeho gahunda yosohora icyemezo cy'utishoboye ndetse n'icyemezo cy'wacitse ku icumu rya jenoside yakorewe abatutsi.

Ibigo byinshi bigiye bitandukanye usanga muri byo harimo za mudasobwa zikoreshwa mu kwakira abakiriya no kunoza serivisi, aho umukiriya uje abagana agenda yakirwa neza agahabwa serivisi bitewe n'uko ikoranabuhanga mu Rwanda ryagiye ritera imbere cyane.

Mu rwego rwo kwirinda ko haba amanyanga mu kwambukiranya imipaka, abanyarwanda bahawe uburenganzira bwo kubanza gusuzumisha ibyangombwa byabo, bareba ko byaba bitarataye ubuziranenge bwabyo.

Irembo itanga serivisi zinyuranye, aho Umuturarwanda ashobora kugenda akabikuza cyangwa se agasaba icyangombwa kimwemerera yuko atafunzwe cyangwa se kimuha uburenganzira bwo kubaho neza mu gihugu ndetse n'ibindi byangombwa bitandukanye.

Sosiyete icuruza ibijyanye na interneti Airtel mu Rwanda ikomeje kugenda yagura iminara mu murenge wa Tumba, akarere ka Huye, abayobozi ndetse n'abaturage barishimira iki gikorwa kuko cyabasanze bameze nk'iheruheru ariko ubu bakaba bameze neza.

Ku bufatanye n'ayandi maradiyo harimo; radiyo Rwanda, radio Furashe, Isangositari, tivi Teni na radio tivi Teni ndetse na BTN tivi, ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro Rwanda reveni cyafashe gahunda yo gushimira abasora neza,

Igicu cyiganjemo imvura gituruka ku kuba imiyaga ituruka iburengerazuba ijya iburasirazuba bityo bigahura bigakora igicu gitanga imvura nyinshi, iyo igicu kiremereye biba bivuze ko gifite n'imvura ishobora kugwa ntigire ikintu na kimwe isiga ku butaka.

Kwishyura umusoro ku nyungu ni bimwe mu bintu bifasha igihugu kwiteza imbere. Igihe abantu basoze neza ibikorwa remezo biriyongera mu gihugu. Abantu bakajya inama bagakorera hamwe ubundi igihugu kigatera imbere.

Abaturiye umunara wa Shyogwe bavuga ko rezo zabo zabonetse cyane kandi ubu ngubu basigaye bahamagara nta nkomyi, ibi babivuga bitewe n'uko mu minsi yashize humvikanye ikibazo cy'uko igihe baguze amayinite yabo bayatwarira ubuntu badahamagaye inshuti zabo.

Kugabanya guhererekanya amafaranga mu ntoki na byo byagize uruhare mu gutuma icyorezo cya covid cumi n'icyenda kigabanya umurego wacyo, ibi biratanga icyizere cy'uko mu mwaka wa bibiri na mirongo itanu, ubuzima bw'abantu buzaba bumeze neza.

Mu kwishyura umusoro Rwanda revenu yashyizeho urubuga abanyamuryango bayo bazajya bakoresha bakoresheje tini namba yabo na nimero yabo ya telefone ubundi bagasora neza, ibi bizabanya ibihano bajyaga bahabwa mu gihe hagaragaye ko hari uwakerewe kwishyura umusoro.

Ikigo cy'igihugu gishinzwe imikoreshereze y'ibintu n'ibigo by'imari RURA, kirashishikariza buri muntu wese kuwinjira ku rubuga rwacyo cyangwa se wibusite agakora icyo bita konte. Aho azajya amenyekanisha ibikorwa bye bityo bikagenzurwa mu buryo bworoshye.

Inyoni zivuga mu mashyamba, umwuka uturukamo ndetse n'ibindi bicanwa, ni ingirakamaro mu kubungabunga ibidukikije, twirinda ko byakwangizwa na ba rutwitsi.

Kubaka inzu yawe ukayitera amarangi atururutse mu kigo gishinzwe kuyatunganya amekikoro; bitanga icyizere ndetse n'ubwiza bw'inzu yawe. Ukaba nta makemwa ukaba wayigurisha agatubutse.

Aho icyorezo cya kovide cumi n'icyenda kimaze kugabanya umurego, imirimo y'ubwikorezi ndetse no gutwara abantu ku binyabiziga irarimbanyije kubera ko, iyo umugenzi akeneye kujya aho ariho hose arahajya kandi nta nkomyi.

Umuhanda w'igitaka urimo imodoka ebyiri imwe y'umukara n'indi yenda gusa umweru, tukabonamo inzu ku ruhande yarwo yubakishije amabuye kandi ifite amababi y'umutuku ni'gipangu cy'umukara.

Ubuhinzi bukorerwa hafi y'ingomero z'insinga z'amashanyarazi bukwiye guhagarikwa, kubera ko igihe abahinzi bari gusarura bashobora guhura n'ibibazo by'inkongi y'umuriro, bakatakariza ubuzima.

Iyo abayobozi basoje inama bari barimo hari ahantu habugenewe bahurira bakiga ku myanzuro yafashwe ndetse bakanatanga n'umucyo ku bibazo byagiye bigaragazwa ,aho hantu iyo bahageze baraniyakira.

Imodoka yo mu bwoko bwa dayihatsu yifashishwa mu gutwara imizigo ifite ibara ry'ubururu ndetse n'igisanduku cy'ibyuma iparitse iruhande rw'umuhanda, aho itegereje gushyirwamo imizigo. Izi modoka zikaba zifashishwa mu kworoshya serivisi z'ubwikorezi hirya no hino mu gihugu. Aho zifashishwa mu kugeza ibintu mu bice bitandukanye by'igihugu.

Inzu z'ubucuruzi akenshi bazikangurira kuzigereka kugira ngo hirindwe gutakaza ubuso bunini bw'ubutaka bwagakwiye gukorerwaho ibikorwa bitandukanye.

Ibendera ry'igihugu ririmo bimwe mu birango byubashywe mu Rwanda aho umurenge cyangwa se ikigo ribuzeho, abaturage bose bagomba gukorerwamo umukwabo bityo hakagaragara icyaba cyihishe inyuma, bitewe n'ibura ryaryo.

Uburyo bwo kubaka inganda bugezweho mu Rwanda, butanga icyizere cy'uko mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo itatu na kane, hazaba hari inyubako nyinshi zubatswe kandi mu buryo bugezweho mu Mujyi wa Kigali, ibi bikaba ari byiza cyane.

Amashanyarazi ni kimwe mu gikorwaremezo gituma Umunyarwandakazi cyangwa se Umunyarwanda abaho neza aho aba akora imirimo ye yose ya buri munsi, nta rwikekwe ndetse nta n'umwiryane. Amashanyarazi akomeza kwiyongera mu duce tumwe na tumwe tw'abatuye mu byaro.

Gukoresha amashanyarazi byazamuye iterambere ry'igihugu birikura kuri kabiri n'ibice bine ku ijana birigeza kuri mirongo irindwi na gatanu n'ibice umunani ibi bikaba ari byiza cyane kubera ko buri munyarwanda wese aratekanye.

Aha ni mu ikaragiro ry'amata aho hagaragaramo imashini zagenewe gutunganya amata, hakagaragaramo ameza, harimo indobo, harimo amakaro. Iyo urebye ku nkuta hariho irange ry'ubururu, urukuta rwiza cyane rusa n'ubururu ndetse aha hantu ni heza pe.

Itaka ricukurwa mu musarane ndetse n'irindi ricukurwa mu bibanza bagiye gusiza, ryose rijugunywa hejuru ku gasozi ibimodoka binini bikaza kuritunda bikarijyana ahantu bakeneye kuryubakisha, ku kimodoka kimwe ki'iritakabakigura amafaranga ibihumbi cumi nabi bitanu y'amafaranga y'u Rwanda.

Amwe mu maduka acuruza ibyo kurya mu byaro usanga avuga ko yinjiza cyane ugereranyije n'amabutike akorera mu mujyi wa kigali bitewe n'bzu zaho bakoreramo ziba zihendutse cyane. Ibi byagarutsweho n'umwe mu bacuruzi bacururiza mu karere ka Muhanga mu murenge wa Nyamabuye

Kugeza amashanyarazi kuri buri muturage wese wo mu gihugu ni ingenzi cyane. Bamwe mu baturage batuye mu karere ka Nyamasheke barashimira ubuyobozi bwabo bwabegereje amashanyarazi, ibi bikaba byaragabanyije imfu zaterwaga no kugenda k'umuriro ndetse n'amazi yatwaraga abantu, mu gihe babaga bagiye gushaka umuriro mu baturanyi.

Umugabo mugufi wambaye ipantaro y'umukara n'umupira usa nkivu aho arimo araseka areba umuntu uri kumufotora, inyuma ye hari icyapa kinini cyane gisa ubururu.

Bamwe mu barwayi bivuriza mu bitaro bimwe na bimwe byo mu Mujyi wa Kigali, barinubira serivisi bahabwa bitewe n'uburangare abaganga bagira. Ibi bikaba byagarutsweho nyuma y'uko hari umubyeyi uherutse kuhaburira ubuzima, bitewe n'uburangare bw'umuganga watinze kumwitaho.

Ibigo bitandukanye bya Leta bihuriraho n'abantu benshi baje babigana, usanga ahanini bifite ibendera ry'u Rwanda nk'ikimenyetso cyerekana serivisi nziza buri munyarwanda akwiriye. Ibi bikaba bitangazwa n'umuyobozi w'Akarere ka Kamonyi ubwo yabigarukagaho asobanurira abaturage akamaro k'ibendera.

Imyubakire myiza itanga icyizere ndetse abantu bakamenya ko gufata neza ibikorwa byaba ari ingenzi mu kugira uruhare mu kuzamura iterambere ry'igihugu cy'u Rwanda, harimo no kwimakaza kwirinda kujugunya imyanda, aho babonye hose.

Amavuriro amwe n'amwe agaragaza umuhate mukeya, mu kwita ku isuku rya jaride yazo, kubera ko haba harimo ibyatsi kandi ibyatsi bikurura inzoka na malariya, icyo akaba ari ikibazo gikomeye cyane kandi gikwiye gushakirwa umuti hakiri kare.

Umujyi wa Kigali ukomeje gutera imbere cyane ndetse umaze gusimuka ugereranyije n'imyaka makumyabiri ishize, kubera ko nko mu gace kazwi nka Kacyiru usanga ibikorwa remezo byariyongereye kandi bigaragara neza ibi bigatanga icyizere cy'ejo hazaza h'igihugu cyacu.

Tengamara na tiveya twongeye kubatengamaza, ishimwe kuri tiveya ryongeye gutangwa ni nyuma y'ubugenzuzi isuzuma n'ibikorwa byo kugaruza umusoro byakozwe dukomeje gusaba ibiyamu niba utariyandikisha kanda kannyeri maganainani urwego ukurikiza amabwiriza nibayandikishije zirikana fatire ya ibiyemu no kwandikisha nimero yawe ya telefone itanga n amakuru.

RCS Rwanda Correctional Service. Iherereye mu Karere ka Nyamagabe, yifatanyije n'igihugu cyose, mu rwego rwo kwibuka ku nshuro ya makumyabiri na gatanu, jenoside yakorewe Abatutsi.

Imfungwa n'abagororwa bakomeje gutaka igihombo bahura na cyo igihe bafunzwe bitewe n'uko abakoze ibyaha by'indengakamere. Igihe bashyikirijwe inkiko bakaburana bashyirwa mu magereza bityo bigatuma bandura indwara zitandukanye. Bamwe muri bo bataka igihombo cy'amafaranga batakariza mu kwivuza.

Igazeti ya leta igaragaza yuko amategeko yagiye ahindagurika bitewe n'uburyo Abanyarwanda bagendaga bayica, ibi bikaba ingenzi cyane mu igazeti yasohotse muri bibiri na cumi na karindwi yagiye ibisobanura byose.

Igazeti ya leta yasohotse mu mwaka ushize igaragaza ingingo nyinshi zagiye zongerwamo, aho buri wese ukoze icyaha agomba kugira ibihano bigenda bimuhana kubera ko ntawujya avuga ko atigeze abona itangazo cyangwa se icyo itegeko ribivugaho.

Kuva urukiko gacaca rwatangira, ibyaha byaragabanutse cyane, kubera ko abaturage bicaye hamwe baganira ku bibazo bafite, ndetse abayobozi babafasha kubikemura bitanyuze mu nzira kure, bituma umubare w'amafaranga atakazwa mu manza, ugabanuka cyane.

Umunara muremure cyane w'itumanaho uri mu mabara y'umutuku ndetse n'umweru bigaragara ko ari uwa eyateri hahagaze abatekinisiye bane bigaragara yuko bari gusobanurira aba bantu uko uyu munara ukoreshwa aha bantu bari gusobanurira bambaye amajire y'umutuku.

Gushyingiranwa mu Murenge bizwi nka etasivire bikomeje kwiyongera bitewe n'uko igihugu gikangurira abanyarwanda kubana bashyingiranwe, iyo imiryango ibanye yashyingiranywe nta ngaruka zibaho nk'amakimbirane kwicana n'ibindi byose biterwa no kubana batasezeranye.

Abaturage bakomeje kwishimira uburyo bashyiriweho bwo kwitabwaho mu gihe bahuye n'ibibazo. Ibi, byagarutsweho mu nama yakozwe kuri uyu munsi aho hagarukwa ku ngamba zikwiye gufatwa kugira ngo abaturarwanda bose bagire icyizere cyo gutanga umusanzu wabo mu bwisungane mu kwihuza.

Imfungwa n'abagororwa barasaba uburenganzira bwabo, mu gihe bumva ubuzima bwabo buri mu kaga ko bakoherezwa mu bitaro bakavurwa, bagahabwa ubundi bufasha bwisumbuyeho kuko ngo ibi bikomeje kuba ikibazo.

Ibikorwa by'ubutabazi mu Rwanda birarimbanyije, aho hashyizweho uburyo bwo gushyiraho imodoka ku mihanda zizajya zifasha abantu bahuye n'ibibazo by'impanuka kwihutishwa bakagezwa kwa muganga, kandi bagakurikiranwa neza nta kibazo na kimwe kivutse, bityo bigatanga umusaruro w'icyizere cy'ubuzima.

Ku cyicaro gikuru cya polisi y'igihugu kiri Nyarugenge muri Rwezamenyo, hafungiye abagabo babiri bakekwaho kugurisha urumogi mu buryo butemewe, ndetse n'abandi badamu batatu bashinjwa kwibasira ababashaka kugira ngo babambure amafaranga.

Gusana ibikorwaremezo ni imwe mu ntambwe ikwiye guterwa kugirango igihugu cyacu gikomeze gukataza mu iterambere, kuko bigaragara nabi igihe hatavuguruwe ibi bikorwa remezo.

Polisi ikorera kuri sitasiyo y'umurenge wa Muhima ivuga ko yafunze abagabo batandatu barimo batatu bakekwaho gusambanyi umwana utujuje imyaka, abandi batatu bakaba banyweye urumogi rwinshi cyane.

Imodoka zikoreshwa mu kuzimya inkongi y'umuriro za polisi y'igihugu cy'u Rwanda, zitanga icyizere cy'uko igihe habaye inkongi y'umuriro buri muturarwanda wese yashyiriweho nimero azajya ahamagara kugira ngo aze afashwe ndetse abashe kuba yakumira iyo nkongi itari yangiza ibintu byinshi.

Polisi y'igihugu cy'u Rwanda ikangurira abamotari bose mu gihe batwaye gukurikiza amabwiriza, aho bagomba kwambika abagenzi ingofero zibafasha kurinda izuba ndetse n'impanuka zizwi nka kasike ndetse n'imyambaro yabo bagomba kwambara nk'amajiri kugira ngo buri wese abatandukanye n'abandi bantu.

Imodoka zifite irangi ry'umukara ni nziza cyane bitewe n'uko zitandura, ibi bikurikizwa igihe ukuze imodoka y'umweru igasaza mbere y'iyo waguze ari iy'umukara, bityo bigatuma wahomba amafaranga yawe wagiye ubigura.

Uburyo bwiza bwo kwirinda inkongi y'umuriro, butuma abantu badatakaza amafaranga yabo, mu gihe habaye inkongi. Ibi biterwa n'uko; iyo umuntu yubatse inzu ye, atari ngombwa ko agira ikibazo.

Abakora ibyo gucunga umutekano wo mu muhanda usanga bashishikarizwa cyane cyane kwitwararika mu gihe abagenzi bari kugenda, ibyo bituma abagenzi barushaho kugira icyizere n'umutekano wombuka ntacyo bikanga kuko baba bazi ko umutekano wabo n'ubuzima bwabo byabungabunzwe kandi neza.

Imodoka za polisi y'igihugu cy'u Rwanda, zikomeje gukaza ingamba mu kubungabunga umutekano hirya no hino mu gihugu, aho abaturage bavuga ko batagikangwa no kubona izi modoka, aho mbere bazibonaga bakikanga ko zije kubafunga.

Uburyo bwashyizweho bw'uburinganire bugaragaza ko umugore yahawe ijambo kuva mu mwaka wa bibiri na makumyabiri kugeza bibiri na makumyabiri na gatanu, aho ikigero cy'uburinganire bw'umugore ndetse n'ubw'umugabo cyiyongereye ku kigero cya mirongo itatu na gatandatu ku ijana, ugereranyije n'imyaka yatambutse.

Abagore benshi n'abagabo benshi bicaye ku ntebe bari mu nama batumbiriye imbere yabo bafite amazi yo kunywa ndetse n'ibindi bintu byo kunywa imbere yabo hari amamashini ndetse hari n'indangururamajwi zibafasha kumvikana.

Abana baranezerwa cyane igihe bari kumwe n'ababyeyi babo. Ubushakashatsi bugaragaza ko umubyeyi w'umumama ariwe wita cyane ku bana ndetse nabo bakamwishimira cyane, ugereranyije n'uburyo yishimira abagabo.

Kwishimirwa n'abaturage ndetse n'abo uyoboye ni ibintu byiza cyane, kuko bifasha kwiyumvanamo ku mpande zombi ndetse n'umuntu muri rusange akaba yagirira icyizere cyo gutambutsa igitekerezo cye kandi akaba yizeye ko kiri buhabwe ijambo.

Hoteri nini iri mu bwoko bwa etaje igeretse gatatu yanditseho giriti apatimenti hoteri ivuze ko ari hoteri nziza irimo amacumbi akodeshwa.

Inama yahuje abakuru b'ibihugu ndetse na za guverinoma yanzuye ko ikoreshwa ry'amashashi ndetse na pulasitike rigenda ryangiza ikirere ndetse ko hakwiye gufatwa ingamba zo kurigabanya, bityo buri muturarwanda wese akagira ubuzima bwiza.

Umwe mu ba minisitiri bashya bahawe inshingano uyu munsi yarahiriye kutazigera ahemukira igihugu kandi ko atazigera akoresha ububasha ahawe mu nyungu ze bwite, ibi yabigarutseho mu muhango wo kurahira inshingano ze nshyashya yaraye agiyeho guhera uyu munsi.

Muri gahunda yo kwiyamamaza umukuru w'igihugu yagaragarijwe urukundo rukomeye cyane, mu bice bigiye bitandukanye yagiye ajyamo byagaragaye ko umuntu wese yishimira kubona umukuru w'igihugu amubona imbonankubone nk'uko yahoze abyifuza kuva na cyera hose.

Akanyamuneza ni kose ku bagore bizihije umunsi mpuzamahanga wabo kubera ko bavuye barasangira ndetse banungurana ibitekerezo ku gikwiye gukorwa kugira ngo uburenganzira bwabo bukemuke.

Igiceri cy'u Rwanda cyanditseho banke nasiyonari di Rwanda, bigaragara ko cyakozwe mu mwaka w' igihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi na karindwi, kandi iki giceri gishushanyijeho igitoki bigaragara ko mu Rwanda haba insina nyinshi.

Ishyaka rikorera mu Rwanda rizwi nka Green Party, riyobowe na Frank Habineza, rivuga ko rigomba gukuraho ibihano bitangwa ku bantu bagejeje igihe cy'ubukure, bitwararika mu gihe babajyanye kuko ngo uburenganzira bwabo bushobora kuba buhonyora.

Perezida wa repubulika y'u Rwanda ni umuyobozi w'icyitegererezo muri rusange, urebeye ku bandi bayobozi bo muri Afurika ndetse n'abandi b'isi yose, aho kugeza ubu ngubu bafatwa nk'umuyobozi w'indashyikirwa mu bikorwa yagiye akora byo kuzahura igihugu cyane cyane cy'u Rwanda.

NFPO nk'ikigo cy'ihuriro ry'igihugu nyunguranabitekerezo ry'imitwe ya politiki, itangaza ko abaturarwanda bose bafite ibibazo byo mu mutwe, bitewe n'uko bamwe nta kintu baba bafite bakora, bigatera ikibazo cy'ubukene cyane.

Azabatsinda Kagame ni indirimbo yahize izindi mu kwitwara neza mu gihe cy'amatora y'umukuru w'igihugu, kuko yahaye igihembo nk'indirimbo yahize izindi ku ruhando mpuzamahanga.

Nyuma y'uko abayobozi basoje inama yigaga ku iterambere ry'igihugu cy'u Rwanda, perezida ndetse n'abandi bayobozi bakomeye bafashe ifoto y'urwibutso nk'ikimenyetso cyerekana umubano mwiza ndetse n'imiyoborere myiza y'igihugu cy'u Rwanda.

Ijambo umukuru w'igihugu yagejeje ku bari bamukurikiye, yavuze ko umuturage buri gihe azahora ku isonga ndetse n'uburenganzira bwe bukazubahirizwa neza.

Iyo abayobozi basoje inama bari barimo hari ahantu habugenewe bahurira bakiga ku myanzuro yafashwe ndetse bakanatanga n'umucyo ku bibazo byagiye bigaragazwa ,aho hantu iyo bahageze baraniyakira.

Mu rwego rwo kwimakaza umutekano w'igihugu ndetse no kubaka ubusugire bwacyo, igihe umuyobozi agaragaje intege nke agomba gusimburwa kandi akongerwamo amaraso mashya, hari abantu bashyashya bongejwe muri uyu mwuga kugira ngo babashe kugira icyo bakora.

Gutwara amabati ndetse n'ibindi birebire bituma habaho impungenge nyinshi, bitewe n'uko impanuka ziyongera, abantu bagatakaza ubuzima bwabo kandi bitari ngombwa habe na gato.

Abakoresha umuhanda w'igitaka wa Nkombo bavuga ko mu gihe cy'imvura haba hari ubunyerere bukomeye cyane ndetse hakaba hari n'ibyondo, bityo abacuruza bataka igihombo giterwa n'uko abaturage babura iyo baca ndetse n'imodoka ziza kubatwarira ibicuruzwa, ugasanga ziranyerera.

Imodoka zikora ubwikorezi harimo na moto, zirataka igihombo gikomeye cyane bitewe n'izamuka rya mazutu ndetse n'ibikomoka kuri peteroli mu Rwanda aho kugeza ubu ngubu ilitiro ya lisansi igeze ku mafaranga igihumbi na magana inani, mu gihe iya mazutu igeze ku cyamana icyenda.

Abana bakomereza kurara mu mateme ndetse babuze naho baba bazwi cyane nk'inzererezi mu mujyi wa Kigali, bafatiwe ibihano bihambaye cyane, polisi y'igihugu ivuga ko ikomeje umukwabu wo kubashakisha kugira ngo babe bajyanwa mu bigo by'ingororamuco, ubundi basubire ku murongo.

Imodoka za yuweni abaturage baratangaza ko zabanyuzeho ari nyinshi cyane, zirimo iziheka amazi, izitwara ibiribwa ndetse n'izindi zitwaye abantu baturutse mu nkambi ya Kigeme, ibi bikaba byatewe n'umutekano muke wumvikanye mu masaha ya mu gitondo.

Tagisi zitwara abagenzi izi zimenyerewe cyane nka bisi, iyo zirengeje umubare w'abo zigomba gutwara usanga ahanini biterwa nuko abo bantu batishimiye ko bagenda babyigana. Bityo bagateza impagarara muri ako kavuyo kose.

Abacuruza i serivise z'itumanaho mu murenge wa Cyanika baravuga ko ibi bintu bidakwiye na gato, kuba hari abihutisha iterambere ryabo mu guteza imbere ubuzima bwabo bwite.

Imodoka zikora ubwikorezi bw'ibikomoka kuri peteroli, zirasabwa gukaza ingamba zo kwirinda impanuka ndetse n'inkongi ziterwa n'umuriro mu gihe haba hakozwe impanuka. Ibi bigaragazwa na polisi y'igihugu aho ishishikariza aba abantu kwitondera igihe bari bapakiye risansi.

Moto zikoresha ingufu zituruka ku mirasire y'izuba zimaze kuba nyinshi mu mujyi wa kigali kubera ko byagabanyije ibyago bituma ikirere cyakwandura biturutse ku byuka bihumanya ikirere byavaga kuri moto zikoresha mazutu, lisanse ndetse n'ibindi.

Mu gihe umugenzi ari kwambuka, birabujijwe ko hagira ikinyabiziga kimuhutaza ariko na none abagenzi bakaba bashishikarizwa mu gihe bari kwambuka ko bagomba kwihuta ndetse bakirinda kugenda barangara mu muhanda, kuko biteza impanuka.

Imodoka za rukururana zizwi mu mategeko y'umuhanda nka makuzungu zikomeje guteza inkeke. Abakorera mu gasantire ka Bwezamenyo bavuga ko izi modoka zibateza igihombo gikomeye bitewe n'urusaku rwazo zigenda zisohora igihe zipakiye imizigo iremereye.

Nubwo hari ibice bigiye bitandukanye mu mujyi wa Kigali bikungahaye ku bwiza nyaburanga harimo n'ibiti bitanga akuka keza abantu bahumeka ariko imihanda yabo bigaragara ko hariyagiye yangiririka bitewe no kudasanirwa igihe, ibi bikaba bituma abaturage binubira iyo serivise.

Kwiga amategeko y'umuhanda biri gushyirwamo ingufu cyane n'urubyiruko bitewe n'uko iyo rumaze kurangiza amashuri yarwo abanza n'ayisumbuye rubura imikoro, rugahitamo kugana amategeko y'umuhanda kugirango rubone impushya zo gutwara ibinyabiziga.

Gupakira ibinyabiziga imizigo irengeje ubushobozi bwabyo bitera akajagari mu bwikorezi nyarwanda, kuko ibi ngibi bigarukwaho n'ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali.

Imodoka z'amahirigisi zitwara imizigo ndetse n'imbaho, zivuga y'uko abantu zitwara baba badafite ibyangombwa byemewe n'amategeko kuko n'ahantu hakicara zigira.

Kwirinda akavuyo gaterwa n'abamotari mu muhanda, bituma habaho kugabanyuka kw'imfu zitateganyijwe kuko impanuka zikorwa nyinshi cyane, zituruka ku burangare bw'abamotari bagenda bazenguruka amamodoka bashaka kwirukanka.

Mu isoko ry'ibiribwa usanga hakoreshwa ibikoresho bitandukanye bijyanye no gutwaza abakiriya, igihe umukiriya afite ibintu bimuremereye bisaba ko akenera abantu baza bamwunganira bityo bakifashisha tumwe mu dukoresho dutuma ibicuruzwa byabo bigera ku isoko kandi mu buryo bwihuse cyane.

Aha ni mu ikaragiro ry'amata aho hagaragaramo imashini zagenewe gutunganya amata, hakagaragaramo ameza, harimo indobo, harimo amakaro. Iyo urebye ku nkuta hariho irange ry'ubururu, urukuta rwiza cyane rusa n'ubururu ndetse aha hantu ni heza pe.

Kugenda hejuru y'imizigo mu modoka byongera ibyago byo kuba wapfa, igihe ubonye ko imodoka ipakiye cyane irinde kuyijya hejuru bitewe n'uko ushobora kuhasiga ubuzima, ibi bishimangirwa n'abantu baturiye inkengero z'umuhanda bavuga ko ibi bintu bidakwiye habe na gato.

Ibimodoka bikururana biteza impanuka nyinshi cyane, bitewe n'uko umuyobozi w'ibinyabiziga bito bito abatarareba imbere mu cyerekezo harimo bitewe n'uko aba yakingirijwe n'ibyo binyabiziga.

Imodoka nto ziciriritse nk'amavatiri zirakangurirwa guheka abantu zibashije gutwara kuko igihe zirengeje umubare bishobora guteza impanuka ku bantu bazirimo ndetse n'igihugu muri rusange kikabihomberamo, ibi bikaba biterwa n'uko hari bamwe bakunda amafaranga bigatuma bapakira abantu batemerewe kujyamo.

Abatwara amagare barakangurirwa gutakara kare, bityo bigabanya impanuka ziterwa n'uburangare bagira kuko bo batagira amatara mu gihe cy'umugoroba polisi y'u Rwanda irababwira ko guhera saa kumi n'ebyiri z'umugoroba bagomba kuba bageze mu ngo zabo.

Muri gahunda ya sukura umujyi yashyizweho n'umujyi wa Kigali, ivuga ko hari icyizere kiri gutanga ku mihanda, aho usanga abaturarwanda bose birinda kunyanyagiza imyanda uko babonye kose.

Gahunda yo gutwaza abaturage ibicuruzwa byabo birimo nk'intoryi, karoti, amashu, ibishyimbo n'ibindi, bwarihuse cyane kuko bwatanze amafaranga menshi.

Abagabo batatu aho bicaye umwuka umwe akaba yambaye ikote ry'umukara ndetse akaba yambayemo n'ishati y'ubururu, abandi babiri bakaba bambaye amashati y'mweru, aho buri wese hari akarangururamajwi imbere ye wo hagati akaba ari we uri kuvuga.

Gutwara abantu mu buryo bwa rusange bigusaba kwigengesera wowe mushoferi, kubera ko igihe urengeje umubare w'abagomba kugenda mu modoka yawe bikurura ibihano hamwe no gucibwa amande na polisi y'igihugu.

Imodoka nini zigenda zikorera ibicuruzwa usanga ahanini ziteza impanuka cyane cyane nk'amakamyo atwara ibintu biremereye, bigaragara cyane ko iyo bigeze mu mihanda imanuka cyane acika feri bityo bigatuma impanuka ziyongera mu gihugu.

Nta muntu utagira inzozi zo kuba mu nzu nziza kandi yubatse neza iyo nzu iri mu mujyi wa kigali uyishaka ni igihumbi kimwe cy'idolari gusa wishyura buri kwezi maze nawe ukibera ahantu heza hatekanye.

Amakontinele asaga magana atanu niyo yinjiye mu gihugu mu mwaka ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatatu, aho yazanaga ibicuruzwa biturutse hanze, mu bihugu nka bya Tanzania, DRC, ndetse na Kenya, ibi bikaba byarinjije amadovize ari ku rwego rwo hejuru.

Abanyonzi b'amagare bakorera mu karere ka Kicukiro, baravuga ko ibikorwa bahawe n'umukuru w'igihugu, byabagiriye ikizere cyo kwishakira ubuzima, bitewe n'uko bubakiye umuhanda mwiza.

Mu rwego rwo kwimakaza gahunda yashyizweho na guverinoma y'u Rwanda, abantu bakoresha amamoto mu buryo bwo gutwara abagenzi rusange, bakwiye gukoresha moto zikoresha amashanyarazi.

Ibibuga by'umupira byitaweho byinjiza agatubutse, kuko abaturage batanga amafaranga bakaza kureba amakipe yabo bihebeye, kugira ngo abashimishe. Ibi biravugwa n'umuyobozi uhagarariye ikipe ya Mukura, mu karere ka Huye.

Ibibuga by'umupira ni kimwe mu bice by'imyidagaduro bikinirwaho imikino itandukanye, haba ibibuga by'imipira y'amaguru, imipira ya voriboro ndetse n'iya basikibaro, ibi abakinnyi babyitorezaho kugira ngo babanze kwitegura umukino bafite.

Ibigo by'amashuri bitandukanye usanga bitari byavugururwa bigatera abanyeshuri kwiga nabi kandi byakagombye kuba byubatse ku buryo bugezweho ubundi bakazajya bitwararika mu gihe bari kwiga.

Utubati twiza dushyashya bari gusiga amarangi ukaba wadukoresha ubikamo ibintu yaba imyenda, ndetse n'imitako.

Ku muhanda uri kuvugururwa bisaba ko hashyirwa icyapa kiburira ibinyabiziga, kugirango bamenye ko imbere hari ibikorwaremezo biri kuhakorerwa nko gusana ndetse no kuvugurura.

Inzu z'ubucuruzi akenshi bazikangurira kuzigereka kugira ngo hirindwe gutakaza ubuso bunini bw'ubutaka bwagakwiye gukorerwaho ibikorwa bitandukanye.

Akarere ka Karongi ni kamwe mu turere dukungahaye ku musaruro muremure w'icyayi. Kubera ko aka Karere gafite byinshi mubituma icyayi kigubwa neza harimo n'imisozi ikurura imvura, cyane cyane mu gihe cy'itumba usanga icyari kimeze neza cyane.

Mu mategeko y'umuhanda hari ibyapa bigiye bitandukanye, aho bimwe bigenda bibuza abantu mu kwambuka mu gihe batabiherewe uburenganzira ndetse n'ibinyabiziga bikitwararika mu gihe biri kugenda, ibyo bituma habaho icyizere mu gutanga umusaruro w'umutekano wo mu muhanda.

Mukwirinda ko habaho urujijo mu gihe umuyobozi w'ikinyabiziga atwaye mu bihugu by'uburayi hashyizweho uburyo bwo gushyira ibyapa ku mihanda bigaragaza ikintu kidasanzwe kiri mu muhanda nk'amahuriro y'imihanda ibi bizwi nka hompowe ndetse n'ibindi.

Icyapa cyerekana guhagarara, akenshi gishyirwa mu ibara ry'umuhondo cyangwa se ahenshi usanga kiba mu ibara ry'umutuku, bivuze ko umuyobozi w'ikinyabiziga akwiye kwitwararika cyane ndetse akaba yahagarara.

Ibyapa biranga umuhanda bifasha abantu ndetse n'ibinyabiziga kumenya icyerekezo cya nyacyo bigiyemo, kubera ko igihe bitashyizwe ku mihanda bishobora guteza urujijo rukomeye, bityo bigatuma abantu batakaza umwanya, wabo bashakisha amerekezo y'aho bagiye.

I Nyamirambo ahazwi nko kuri mirongo ine, hagaragara abakobwa bigurisha ndetse n'abangavu bicuruza bakiri batoya, ibi bikaba bibangamira umutekano w'abaturage, bo bavuga y'uko babangamira bitewe n'uburyo bagenda n'amajoro bateza akavuye mu muhanda banasakuza.

Mu muhanda hari ibyapa bigiye bitandukanye biranga amerekezo y'aho umuntu agomba kugana hari ibyerekana ko umuntu agomba kuzamuka, kujya iburyo cyangwa se kumanuka. ibi bikaba bifasha abashoferi cyangwa se abayobozi b'ibinyabiziga kwitwararika, ndetse no kumenya neza aho bajya.

Igihe hari ibyapa biburira abantu kwambuka hari n'ibindi bishyirwa ku muhanda kugirango imodoka nizihagera zimenye ko hari abantu bagiye kwambuka. Ibi bifasha mu kurinda umutekano n'ubusugire bw'igihugu.

Ibitaro bya kaminuza ishami rya Huye sehashide birakangurira umurwayi wese kubigana kugira ngo ahabwe imiti asuzumwe ndetse n'abana bavunitse babashe kuba bakungwa bamere neza.

Iyo urebye imyubakire y'ibigo bicuruza serivisi mu Rwanda usanga bitandukanye, cyane n'iby'ahandi mu bihugu byo hanze byateye imbere, kuko haba hari isuku nziza, umutekano, ndetse n'ibindi.

Amahoteri mu karere ka Huye bigaragara ko akomeje nayo kuzamura urwego rwa serivisi kubera ko abazigana bose bavuga ko serivisi zabo ari ntamakemwa, aho bakirwa neza, bakarazwa ahantu heza ndetse bakagaburirwa n'amafunguro yujuje intungamubiri.

Ni akazu ka emutiyene k'umuhondo, kariho ibyapa byinshi mu bijyanye na serivisi zose za emutiyene, mo imbere harimo umukobwa, ubona ko ari kuganira n'umugabo uje kumwaka serivisi.

Mu kiyovu hagaragara imyubakire ikomeye cyane igiye iteye imbere, ni ukuvuga ko buri rugo rugiye rufitanye isano n'urundi, yaba mu ishusho uko byubatse byose ni ntamakemwa nta kibazo rwose.

Abagendera mu modoka zoroheje izi zizwi nk'ivatiri cyangwa se korora barataka ko bagenda bahutazwa n'imodoka nini cyane zirimo nka hoho bisi ndetse n'amakamyo, yikoreye cyane kubera ko aba azisumba azisuzugura cyane ibi bikabangamira umutekano w'abazitwaye.

Gahunda yashyizweho yo kuvugurura inzu zitanga serivisi zijyanye n'ubucuruzi yateye imbere cyane cyane mu bice byo mu byaro kubera ko usanga inzu zigurishirizwamo ibiribwa cyangwa se imyenda yo kwambara ziri mu buryo bwihariye bityo bikorohera umuntu wese uzigana kumenya ibyo zicuruza.

Iyo ufite inzu nziza n'icyizere cy'ubuzima bwawe kiriyongera bitewe nuko uba uryama ugasinzira nta nkomyi ahantu heza kandi hatekanye, bityo mu mujyi wa Kigali hakaba hari inzu zikodeshwa kandi ku mafaranga makeya, aho ibihumbi magana atanu bishobora kugufasha kubona inzu nziza kandi wifuza.

Gushyiraho uburyo bwo gushimisha abana binyuze mu mikino, bufasha abanyeshuri bari mu bigo by'incuke, kuzamura ubwenge bwabo ndetse bakabasha kwiteza imbere mu bigendanye n'ubwonko bwabo, kubera ko ibikinisho bibafasha kwiga neza.

Ubusitani mu mujyi wa kigali igihe nyirabwo akubonye unagamo ibintu wishakiye nk'ibishingwe, imyanda yindi itandukanye, aguca amafaranga utabonera umubare.

Umuhanda w'igitaka uteza ibibazo igihe imvura iri kugwa, ibyondo biriyongera abantu ibikorwa byabo bigahagarara ubundi igihugu kikaba kigiye mu icuraburindi gutyo.

Guparirika ahantu habigenewe ibinyabiziga ni byiza bitewe nuko bigabanya akajagari biteza mu muhanda, igihe uwabikoze neza abyubahirije hari agahembo ahembwa n'abantu bashinzwe kubyitaho.

Igihe umugenzi ari kwambuka birabujijwe ko hari imodoka iza imusatira cyangwa se ikindi kinyabiziga icyo ari cyo cyose gihagarara imbere ye, ndetse kimutera ubwoba bw'uko gishobora kumugonga mu gihe kwambuka, ibi bikaba byaragizwe itegeko.

Imodoka yo mu bwoko bwa purado ikunda kugenda cyane mu misozi bitewe n'uburyo ki iba yihuta cyane. Ibi biterwa n'impamvu nyinshi z'uko na yo iba iri mu modoka zinywa amazutu.

Aha ni mu ikaragiro ry'amata aho hagaragaramo imashini zagenewe gutunganya amata, hakagaragaramo ameza, harimo indobo, harimo amakaro. Iyo urebye ku nkuta hariho irange ry'ubururu, urukuta rwiza cyane rusa n'ubururu ndetse aha hantu ni heza pe.

Amatara yo mu mihanda azwi cyane nka feruje, akomeje guteza inkeke bitewe nuko bamwe mu bashoferi b'ibinyabiziga baba batazi uburyo bikoreshwa, bityo bigatuma impanuka ziyongera mu muhanda. Ibi birashishikarizwa buri munyamaguru wese kwigengesera mu gihe ari kugenda.

Mu ihuriro ry'imihanda usanga hakunze kwitabwaho ndetse hakagira isuko cyane igihe uharebye, ibi ni byiza cyane mu gihe ibinyabiziga biri kugenda bigomba kugira ahantu bihurira cyangwa se hazwi nka rompuwe kugera bigabanye umuvuduko wabyo.

Mu gukora buryo ki umujyi wa Kigali ushoboye kugirango abantu barusheho kugira isuku, hateguwe ubukangurambaga mu gukubura ndetse no gutoragura imyanda inyanyagiye ahantu hose.

Kongera ubuso bw'umuhanda bigabanya impfu nyinshi cyangwa se impanuka ziterwa n'ibinyabiziga, ndetse no kwirinda kunywa ibisindisha utwaye imodoka na byo bigabanya impfu za hato na hato. Ibi bigarukwaho na Minisitiri w'Ubuzima Sabe ubwo yagiranaga ikiganiro n'abapolisi mu muhanda.

Mu ihuriro ry'imihanda itandukanye, ibi bizwi nka rompuwe, bigaragaza ko ari ahantu heza cyane imodoka cyangwag se ibindi binyabiziga bigera bikagabanya umuvuduko ndetse buri muntu wese akaba yakwambuka kandi atuje ameze neza.

Mu gihe umugenzi ari kwambuka birasabwa ko akoresha iminota mikeya kugira ngo agere aho ajyiye, kuva hakuno ujya hakurya bitwara nibura iminota itanu, ibyo ni igikorwa cyiza kandi gishimishije.

Imodoka uko zigenda ziyongera mu byaro ni nako imiturire igenda yaguka, aho usanga inzu zifite ibyumba byiza zifite n'aho barara, bigatuma abantu bazibamo bagubwa neza kandi bakagenda bikanga umutekano muke, bitewe n'abajura bahibasira.

Kwirengagiza amategeko nkana ukayica bihanirwa n'amategeko. Hari imodoka cyangwa se abashoferi bagenda batera icyugaza abagenzi mu gihe bari kwambuka kandi ntabwo ibyo bikwiye, kuko bituma bashobora kwambuka bihuta, bakaba bakora impanuka.

Imihanda yo mu bice bitandukanye by'intara, usanga ifite ibibazo bitandukanye harimo kwangirika, gusenyuka kw'ahantu haca amazi, bitewe n'uburyo ki abaturage batagira uruhare mu gukora umuganda ndetse ngo banasukura iyo mihanda.

Iyangirika ry'imihanda imwe n'imwe mu bice bitandukanye, bituma ingendo zigenda nabi, kubera ko hari igihe imodoka ishobora guhaguruka saa moya, igasanga igeze saa kumi n'imwe ikigenda kandi icyo gihe abagenzi baba bananiwe.

Bagenzi mwite ku gihe mukoresha mwambukiranya umuhanda, kuko bizabarinda guhura n'ibibazo bitandukanye birimo no kubura ubuzima bwanyu, ibi bigarukwaho CIP na jean Bosco Kabera ushinzwe umutekano wo mu muhanda.

Urujya n'uruza ruba ari rwinshi mu mujyi wa Kigali, kubera ko abantu bahagana usanga bahahirana neza. Imodoka ziba zicanye, umutekano ari wose, ibintu bimeze neza biri ku murongo.

Mu gihe cy'imvura abamotari binubira uburyo ki igihe bari kugenda ibyondo bijya kuri moto zabo, ibi bigatuma bibangamira abagenzi babatega, bakaba basaba ko bakubakirwa kaburimbo, kugira ngo babashe guhangana n'iki kibazo.

Hakwiye gukazwa ingamba z'abantu bica amategeko y'u Rwanda nkana igihe bari mu muhanda ubundi mu buzima busanzwe kirazira kwambukiranya umuhanda ureba ko hari umugenzi uri gutambuka .